Inzu nini ifite amadirishya afite ibara ry'umukara hakaba hari n'amadirishya atatu ari hasi afite hari kugaragaramo ibikuta bifite ibara ry'umweruba n'igisenge gifite igisenge kinini hamwe n'ubusitani hanze.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara akaba afite imisatsi miremire ndetse uwo muntu akaba ari igitsina gore, akaba amaguru ye yihinnye akaba afite n'ukuboko kuzamuye mu kirere, akaba anicaye hasi hirya ye hakaba hari icupa ry'amasi.